Farumasi ni ahantu tugurira imiti. Iyo miti tukayifashisha igihe twarwaye indwara zitandukanye. Igihe warwaye rero ushobora kujya kwa muganga bakakwandikira imiti. Si byiza kugenda ngo ujye kuri farumasi nurangiza ubabwire ngo mumpe iyi imiti kandi utayandikiwe na muganga. ujya kwa muganga bakakwandikira imiti bitewe n'uko bagusuzumye, hanyuma ukajya kuri farumasi ukagura imiti bakaguha imiti wifashisha muri bwa burwayi bwawe. Niyo mpamvu buri wese akwiriye kubanza kwa muganga.

Dukurikirane abana bacu neza binyuze mu kubaha ibiryo byujuje intungamubiri. Na none twibuke kubajyana kwa muganga tubakurikirane babavure babahe n'inkingo zose basabwa gufata, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, birinde no kurwaragurika bya hato na hato.

Ibitaro ni ahantu buri wese akenera gukoresha kuberako nta muntu ubaho atarwara, kandi utarwaye ararwaza. N'iyo mpamvu dukenera kuhakoresha tujya kuhashaka serivisi z'ubuzima cyangwa se imiti, no kugira ngo tubashe kwivuza tubeho dufite ubuzima buzira umuze. N'iyo mpamvu rero dukwiriye kuhakoresha neza tukaharinda ibyonnyi n'ibishobora kuhabangamira, kugira ngo abakeneye kuhakoresha bahakoreshe neza.

Pamba ni icyatsi cyiza cyane, twifashisha mu buboshyi, cyangwa se ibyo twita wivingi. Rero niyo mpamvu pamba dukwiriye kuyihinga, tukanayifata neza, kuko ifite akamaro kanini. Dushobora kuyibohamo ibintu twifashisha mu kwambara. Kera hari imyambaro na n'ubu ikigaragara iyo twita udushabure, iriya myambaro dushobora kuyikora twifashishije pamba. Niyo mpamvu rero dukwiriye kubyitaho.

Sipuri ni igiti cyiza gikomera cyane kikaba kigira udushami utwo dushami twifashishwa na bamwe bakubura cyangwa se bakora amasuku. Sipuri rero ni igiti cyiza gishobora gukurana n'imyaka ntikibashe kuyangiriza. Niyo mpamvu dukwiriye kugitera kuko iyo gikuze kiza kuduha imbaho nziza zikomeye dushobora kwifashisha mu gihe kirekire.

Mu bimera byinshi dusangamo ibiti bitandukanye ibyo biti rero dushobora gusangamo: ininturusu, pinusi ndetse n'ibindi byinshi. Tugira ikimera cyitwa ikibonobono, ni igiti akenshi gikunze kwifashishwa n'abantu batari bake cyane cyane binika amasaka, binika amasaka rero kugira ngo bayakuremo ifu bifashisha bakora ibinyobwa.

Iteke ni igihingwa cyiza cyane, dukoresha dutegura ku meza kugira abantu barya babashe kugifata, ni yo mpamvu iteke turibara mu bitera imbaraga. Iteke ni kimwe mu binyamafufu turya biri mu bwoko bw'ibinyabijumba, ibijumba, ibirayi ,imyumbati ,amateke ni yo mpamvu rero dukwiriye kuritegura ku mafunguro ,kugira ngo tuze kubona na bwo indyo yuzuye.

Amakoro ni amabuye aturuka cyangwa se akomoka ku iruka ry'ibirunga ushobora kwibaza ngo kuruka kuruka. Umuntu iyo yariye ibiryo bikamugwa nabi arabigarura mu Kinyarwanda bakavuga ngo yarutse, mu isi rero tugira icyo twita maguma, maguma iba mu nda y'isi maguma iba izenguruka iyo rero ipushinze cyangwa se isunitse igasohoka hanze ni byo twita kuruka kwibirunga ibisohotse ni byo bivamo amabuye.

Dufite imiti itandukanye. muri iyo mitirere harimo imiti ya kinyarwanda hakakabamo n'imiti ya kizungu. mu miti ya kizungu dusangamo: ibinini ,inkingo zitandukanye urugere iyo bagiye badutera ba dukingira urukingo rwa covide nayinitini mu ndimi zamahanga nanone mu miti ya kinyarwanda dusangamo igisura. igisura ni umuti wifashishwa mu kuvura igifu binyuze mu kugiteka tukakirirya.

Kenshi na kenshi iyo turi ku meza cyangwa se mu ndimi z'amahanga ibyo dukunda kwita bife, tuhasanga ibiryo byinshi bitandukanye turya bikadufasha kugira umubiri mwiza. Rero dusangamo ibyubaka umubiri I birinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga, muri byo bitera imbaraga dushobora gusangamo amateke. Amateke n'ikiribwa cyiza cyane kidufasha gukomera tukagira imbaraga tukabasha gukora imirimo ikomeye.